Igishushanyo kiriho umugabo wambaye karuvati, hirya yaho hari injangwe kandi hino y'aho mu nzu harimo umuntu wicaye wambaye ijire y'umukara, ishati y'umweru.

Uu ishuri, mu kibuga, ahari ibikinisho by'abana, ibyicndebo, abana babirimo, barimo bicunda, abandi bari hasi, bambaye amakabutura y'umukara n'amashati y'umweru.

Umwana mutoya w'umuhungu, wambaye udukweto n'agakabutura n'agashati, ari mu nzira mu muhanda agenda, imbere ye hari abantu ari gusanganira kandi bubatse n'inzu.

abana benshi bicaye ahantu kumuke bambaye Iniforume abandi bahagaze hamwe bafite udukombe bambaye amajipo y'ubururu namashati kandi inyuma yabo hari igikuta gishushanyijeho ibishushanyo harimo n'igishushanyo K'imodoka

Ameza arambitseho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo: isiso yifashishwa bakata, hakaaba harimo ikereyo yifashishwa bandika, hakaba harimo n'ikaramu na yo bakoresha bandika n'ibindi bikoresho byinshi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza gifite ibyuma imbere bifashe ku mabati, gisakaje amabati y'ubururu, hariho n'ibendera ry'igihugu kandi cyubakishije amatafari ahiye, urugi rubanza rukinguye n'izindi zikurikiyeho na zo zigiye zifunguye.

Abanyeshuri bahagaze ku murongo bambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru ,amajipo y'ubururu, amashati y'imyeru, amakaruvati y'umukara, bose bari mu kigero kimwe bari ahantu mu kibuga.

Abana b'abanyeshuri bari ahantu mu tujaride bicaye abandi basutamye, abandi bahagaze bambaye iniforume isa, bameze nk'abari gufata ifoto ariko ubafotora atagaragara.

Mu ishuri aho abanyeshuri bigira, bafatira ubumenyi bicayemo, abanyeshuri babiri, iruhande rwabo hicaye mwarimu.

Umuhango wo gusoza amashuri muri kaminuza, umugabo wambaye ikote n'impeta n'amataratara arimo gushimira umusore wakoresheje icyo kirori, arimo amuhereza na kado ifunze neza.

Agatebe karekare kazwi ku izina rya taburete, gateteretse hasi, katicayeho umuntu. Gasize verine ijya gutukura. Hirya yako hari ikibaho cyanditseho, hasi hari amakaro mu iyo nzu byose birimo.